Ihuriro ry'abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru bari kumwe n'umuntu wambaye umwenda w'umutuku, ufite uruhu rwera bigaragara nkaho ari abaganga bishyize hamwe kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Umuntu ufite uruhu rwera wambaye ipantaro ya kake, uhagaze iruhande rw'icyapa cyerekana aho ibitaro bivurirwamo indwara zo mu mutwe biherereye, uri kuhafatira ifoto.

Abantu batanu, harimo babiri bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara nk'aho ari abaganga bavura amenyo, bari gusobanurira umwana uburyo bwo kuyoza, hifashishijwe igishushanyo, n'uburoso mu ntoki.

umuntu babiri umwe ajyamye agaramye yasamye, undi afite utwuma tubiri ari kumukoza mu kanwa, bigaragara nk'aho ari umuganga uri kumukorera isuzuma ry'amenyo.

Abantu babiri umwe aryamye ku gitanda yubitse inda, undi amuhagaze iruhande amufashe ku mugongo, yambaye agapfukamunwa, bigaragara nk'aho ari umuganga uri kumukorera ubugororangingo bw'umugongo.